Umugabo wambaye ishati y'umukara n'amadarubindi, ufite mikoro mu kiganza ndetse inyuma ye hari intebe z'icyatsi n'indangururamajwi, hakaba na tapi y'icyatsi kijimye.

Umugabo wambaye ikoti rijya gusa nk'ivu ndetse wambariyemo ishati y'umukara, wambaye isaha ku kaboko y'umukara, ufite mikoro y'umukara mu ntoki uri kuvugiramo, hirya ye hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ikoti ry'umweru ,rifite ibara ry'umukara ku maboko ,ndetse rishushanyijeho idarapo rigizwe n'amabara y'ubururu ,umuhondo, ndetse n'icyatsi ,afite mikoro mu ntoki ari kuyivugiramo, yambaye n'ingofero y'umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema hiyiganjemo abagore abagabo abasaza ndetse n'abakecuru, imbere hicaye umukecuru wambaye agashati gafite ibara rijya gusa umuhondo ndetse witeze igitambaro cy'umweru, iruhande rwe hicaye umusore wambaye ishati y'ubururu irimo akabara k'akarongo kamanuye k'umweru.

Abantu bicaye ahantu hamwe mu nzu isa naho iberamo inama, imbere yabo hari umugabo ufite mikoro mu ntoki ndetse wambaye ishati irimo ibara ry'ubururu ndetse na kake haciyemo uturongo tw'umweru, inyuma ye hicaye undi mugabo wambaye ishati y'umweru ndetse ku ruhande rwe hari umugabo wambaye umupira utukura.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'inama imbere yabo hatereretse ameza ateretseho amacupa abonerana arimo ibyo kunywa, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere hicaye umugabo wambaye ikoti rijya gusa umweru n'ishati y'umweru ndetse na karuvati wambaye n'amadarubindi ndetse impande hari umugore wambaye ishati itukura wambaye n'amadarubindi, kuruhande rugaruka hino hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare igizwe n'amabara abiri umuhondo ndetse n'umweru ufite mikoro y'umukara mu ntoki wambaye n'isaha y'umukara, inyuma ye hicaye undi mugabo uri kwitaba terefone wambaye ijiri ndetse n'ipantaro bisa n'agapira k'ubururu mo imbere n'inkweto zizamuye bigaragara ko ari umukozi wa RIB.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, imbere hari umugabo wicaye, wambaye ikote, uri kureba muri mudasobwa ndetse uri kwiyikandaho, mpandehica undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara, hirya yabo hicaye umugabo wambaye ikoti ritukura ndetse n'amarinete.

Abantu bicaye munzu y'inama imbere yabo hari ameza ateguyeho ibitambaro by'umweru, hepfo hari abafite imashini za mudasobwa z'umukara, ndetse hicaye abagore babiri harimo umwe wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'undi wambaye ibitenge imbere yabo hateretse amacupa y'amazi yo kunywa.

Umugore wambaye ishati y'umweru, igitambaro mu gatuza n'amadarubindi, ufite telefone mu ntoki n'isaha ku kaboko, inyuma ye hicaye umugabo wambaye umupira w'amabara y'umweru n'ubururu, hari idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu: ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abagabo batatu bicaye imbere yaho hari ameza arambuyeho igitambaro gifite ibarajya gusa umutuku, ndetse n'utundi dutambaro tubiri turambuyeho tw'ibara ry'umweru, umwe yambaye imyenda ya gisirikare ndetse n'ingofero, undi wambaye imyenda ya gipolisi ndetse n'ingofero, uri hagati wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'amadarubindi, imbere yabo hateretse amacupa atatu y'amazi yo kunywa.

Umusore uhagaze wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ijire y'umuhondo, ufite terefone mu ntoki ndetse na mikoro y'umukara ari kuvugiramo, imbere ye hari umukobwa wambaye ishati y'umweru ndetse n'umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru w'ubudodo, hagati yabo hicaye undi wambaye ishati y'ubururu.

Abantu benshi bicaye mu nzu y'inama higanjemo abanyeshuri bambaye impuzankano y'amashati y'umweru ndetse n'amapantaro n'amajipo y'umukara n'amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'umukara, imbere yabo hateretse amacupa y'amazi.

Abantu benshi bicaye hamwe, higanjemo: abagore, abagabo, abasaza ndetse n'abakecuru. Imbere mu mwanya wo hagati, hari umukecuru witeze igitambaro k'icyatsi ndetse n'umupira ujya gusa umukara. Hirya hari undi mukecuru uri guseka wambaye agakomo ku kaboko ndetse witeze igitambaro cy'umukara.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe mu ntebe z'imbere hicayemo abagabo bambaye amakoti ndetse hicayemo n'umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'ibihogo, impande ye hicaye undi ufite telefone ijya gusa ubururu mu ntoki uri gufata amashusho, inyuma ye naho hari undi wambaye ishati y'umweru na we uri gufata amashusho na telefone ye.

Abaturage bari kubyina harimo bamwe bafite ibyapa mu ntoki by'ubururu byanditseho gerayo amahoro inyuma yabo hari ihema ry'ibitambaro bigizwe n'amabara atatu icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Abantu bicaye mu nzu ikorerwamo inama, bicaye ku ntebe zifite imisego y'umutuku, harimo umugabo wambaye ishati ijya gusa umweru, ufite ikaramu y'ubururu mu ntoki ndetse ufite n'ikayi ku itako.

Umugore wambaye ikanzu ifite amabara y'umukara ndetse n'umutuku ku gice cyo hejuru. Wambaye isaha ku kaboko ndetse n'impeta mu rutoki, wambaye amarinete ndetse n'amaherena. Ufite mikoro uri kuvugiramo. Inyuma ye hamanitse icyapa kiri mu ibara ry'ubururu handitseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze ku ruhimbi, wambaye ikoti rijya gusa nki'vu n'imbere yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvati ijya gu gusa umutuku, wambaye amadarubindi ufite mikoro mu ntoki uri kuvuga, inyuma ye hari icyapa k'ibara ry'umweru cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze ku ruhimbi inyuma ye hari urukuta rw'ubururu rurimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse yambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara n'amadarubindi, imbere ye hari uruhimbi ruriho insakazamajwi ebyiri ndetse rugizwe n'ibara ry'ubururu n'umweru, rushushanyijeho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Umugabo uboshye amasunzu wicaye hamwe igice kibanza yicaye areba imbere, igikurikiyeho yambaye ishati y'umweru areba imbere, igikurikiyeho ari kureba hakurya ndetse igikurikiyeho ariko reba mu ruhande rw'iburyo, igikurikiyeho yerekeje amaso iburyo bwe ndetse ikindi gikurikiyeho yambaye imyenda y'umweru ari kureba imbere.

Igisabo kitajishe giteretse hasi, imbere yacyo hari urukuta rufite irange ry'umweru ndetse kikaba giteretse ahantu hafite irange ry'umukara.

Abakobwa bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, bambaye amasengeri y'icyatsi ndetse n'urunigi mu ijosi, bambaye urugori mu gahanga, inyuma yabo hari ibyuma by'umuziki, birimo ingoma ndetse n'indangururamajwi.

Abakobwa bari kubyina imbyino za kinyarwanda, bambaye imikenyero y'umweru n'udupira tw'umweru ndetse n'utwitero tw'umukara.

Ingoro y'umwami hasi hasize irangi ritukura ndetse n'irangi ry'umweru, mu muryango hashinze igiti k'inkingi kegetseho icumu ndetse n'ingabo ifite ibara ry'umukara.

Abakobwa bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, imbere hari uwambaye imikenyero n'umwitero w'umweru ndetse wambaye urunigi mu ijosi ry'umweru n'urugori mu gahanga rufite ibara ry'umweru, inyuma hari undi na wambaye gutyo uri kubyina areba hakurya.

Abasore bari kubyina imbyino gakondo za Kinyarwanda, imbere yabo hari abakobwa bakenyeye ndetse n'abandi bambaye imyenda gakondo yo kubyina, bari gukoma amashyi mu basore bari kubyina harimo abambaye imipira itukura ndetse n'abandi bambaye amashati y'umweru n'imyitero y'umweru ifite ibara ry'umukara hasi.

Uduseke tubiri dupfundikiye kamwe gafite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'icyibo hasi gipfunduye umufuniko uteretse hejuru yacyo hakurya yacyo hari umutemeri wegetse ku rukuta ugizwe n'amabara umweru ndetse n'umukara.

Abantu bicaye munsi y'ihema inyuma hari abahagaze bambaye imipira y'ubururu ndetse n'umumama bafite telefone mu ntoki bari gufata amashusho, imbere yabo hari umukobwa uri kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, wambaye amayogi ku maguru ndetse inyuma hari abasore bambaye imikenyero bari kumukomera amashyi, banamuririmbira.

Ingoro y'umwami mu muryango ahashinze igiti ndetse hasi hasize irangi ry'icyatsi, mu marembo hakikijwe n'ibikingi by'ibiti byinshi, bizirikishije umugozi ndetse n'uruzitiro ruzengurutse ingoro y'umwami. inyuma hari ishyamba ry'ibiti bidacucitse.

Icyungo giteretse hasi, kirimo ibiryo bigizwe n'ibishyimbo ndetse n'ibigori bivanze. Ku ruhande hari umugabo wambaye inkweto z'igihogo.

Abakobwa bari kubyina imbyino gakondo za Kinyarwanda, bambaye imikenyero y'umweru ndetse n'imyitero y'umweru, bambaye inigi mu ijosi z'umweru ndetse n'urugori mu gahanga, inyuma yabo hicaye abantu, imbere yabo hateguye ameza ariho igitambaro cy'umweru.

Umunara muremure ugizwe n'amabara yumutuku numweru, ndetse hari ibiti by'imikindo kuruhande n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Abakozi babiri bakora mu bijyanye n'amashanyarazi buriye amapoto bari gutunganya umuriro w'amashanyarazi ndetse hari n'amazu y'ubucuruzi atandukanye.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo n'agapfukamunwa k'ubururu, ishati y'umukara ndetse n'ijiri y'akazi, uri gukanda ku rukuta aho bakupira umuriro, hari insinga nyinshi zigiye zesitaye mu buryo bunyuranyemo.

Abagabo babiri bari gusudira ibikoresho by'ubwubatsi bitandukanye, higanjemo inzugi ndetse n'amadirishya, harimo umwe wicaye wambaye igisarubeti cy'ubururu ndetse n'undi uhagaze. Ku ruhande hegetse inzugi ndetse n'amadirishya.

Imodoka nini yo mu bwoko bwa fuso ibambyeho ihema hejuru rifite ibara ry'ubururu, iri guturuka hirya mu muhanda ndetse imbere yayo hari umunyonzi utwaye igare wambaye umupira utukura uhetse umugenzi, imbere ye hari igipangu gisize irangi ry'ubururu.

Amazu menshi yubatse ahantu hamwe ndetse yubatse kimwe afite amabati atukura, iruhande rwaho hari umuhanda urimo imodoka y'umukara.

Inzu bari kubaka itaruzura neza, isakaje amabati y'ubururu. Itarajyamo inzugi n'amadirishya, inyuma yaho hubatse, indi nzu nayo yubatse mu buryo nkubwo yubatsemo, ifite igisenge gisakaje amabati y'ubururu.

Umuhanda mugari wa kaburimbo urimo abagenzi barikuwugendamo harimo abagore babiri bari mu ruhande rw'iburyo ndetse n'umugabo uri mu ruhande rw'ibumoso uri gusunika igare, hepfo yaho hari amatara amurika ku muhanda ndetse hari n'icyapa cy'umweru kirimo ibara ry'umuhondo.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye, ku ruhande rwo hasi isize irangi ry'umuhondo ndetse no hejuru y'inzugi n'amadirishya hatambitse umurongo usize irangi ry'umuhondo, handitsemo amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi n'ubururu. Inzugi zisize irangi ry'umukara ndetse n'amadirishya asize irangi ry'umukara.

Robine y'amazi ariko itari kuvomesha, hakurya hari umugabo uri ku igare ndetse n'amazu yubakishije umucanga, harimo afite inzugi zisize irangi ry'ubururu n'andi afite inzugi zisize irange ry'umutuku.

Abagabo babiri bari kwambuka umuhanda wa kaburimbo, imbere yabo hahagaze umumotari wicaye kuri moto wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu, imbere yabo hahagaze imodoka ntoya y'umweru ihetse imizigo, hejuru hicaye umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Inzu ifite urukuta ruzamuye rwamabuye, isize irangi r'bururu, ndetse ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umukara, hejuru isakaje igisenge gifite amabati y'ubururu, hepfo yayo hari ikigega cya palastiki cy'umukara.

Umusaza wambaye ingofero n'ikote, inyuma ye hari abantu bahagaze harimo uwicaye ku igare ndetse impande yabo yaparitse imodoka ya bisi nini ndetse n'ivatiri y'ibara ry'umutuku.

Inyubako igeretse gatatu, isize irangi ry'umuhondo ndetse hejuru ikirere gisa nicyijimye, imbere hari ubusitani bwinshi kandi bukwiriye imbuga.

Inzu nini isize irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ubururu, ndetse ifite inkingi zisize irangi ry'icyatsi, impande yayo hari guturika umugabo wambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umukara, ndetse n'umupira w'umukara. Imbere yayo hateretse ibicuba byinshi ndetse n'umugabo uhagaze imbere yayo yambaye imipira y'umukara ni ipantaro y'umukara.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe imbere y'inyubako, hirya yabo hahagaze imodoka y'umukara ndetse muri bo harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere hahagaze umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hahagaze umugabo wambaye ikote rijya gusa umukara, wambariyemo umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Amarembo yubatse mu byuma asize irangi ry'ubururu ndetse hagati hanyuzemo umurongo w'irangi ry'ubururu handitse mo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru kuruhande, hari utuzu tubiri duto kamwe kariho kamera ku ruhande ndetse inyuma hari inyubako ngari isize irangi ry'ubururu kuruhande hari inyubako ndende y'ibara r'mweru.

Inzu yubakishije amabuye hasi ndetse ku gice cyo hasi izengurutswe n'amabati n'igice cyo hejuru amabati, hagati izengurutswe n'ibiti ndetse hejuru isakaje amabati iriho umureko wa parasitike.

Umupolisi wambaye imyenda ya Polisi ufite mikoro mu ntoki uri kuvuga, inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari ahiye isizeho n'irangi ry'umweru n'amabati ndetse ku ruhande hari abaturage biganjemo n'abana.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe munsi yihema harimo itsinda rimwe ry'abambaye imipira y'imihondo ndetse n'irindi tsinda ry'abambaye imipira y'ubururu, hakaza n'irindi tsinda ry'abambaye imipira y'umweru higanjemo abana, imbere yabo hari abantu bakuru, abasaza, abagore, abagabo ndetse n'abakecuru.

Umubyeyi uri uku kuvugira mu nsakazamajwi, mikoro, uhagararanye n'umusaza imbere, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye n'undi mu uhagaze wambaye agapfukamunwa k'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, uhagaze imbere, ari guhabwa impamyabushobozi n'umupolisi, wambaye imyenda ya polisi, inyuma hari abandi bafite impamyabushobozi zabo mu ntoki ndetse hakurya hari ihema ritatse mabara y'ubururu, umweru ndetse n'umuhondo.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi, inyuma yabo hari ihema bambaye imipira isa ifite ibara rijya gusa n'ivu, ndetse n'amapantaro y'imikara, hirya yabo hari inyubako isize irangi ry'umweru yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema imbere yabo hari ameza ateretseho amazi, amacupa abiri ndetse n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru ndetse na karuvati, ku ruhande rwe hari undi mugabo wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara n'ishati y'umweru, inyuma yabo hari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umweru.

Abantu benshi bari mu ihema, bari mu gikorwa cy'ijoro ryo kwibuka, harimo umusirikare, harimo umupolisi ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, harimo abambaye imipira iriho ikirango cyo kwibuka ndetse n'umugabo ufite ubumuga washyize akaguru ke ku mbago yaziteretse hasi.

Abayobozi bahagaze hamwe bo mu nzego zitandukanye, bari mu gikorwa cyo kwibuka, umwe yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ubururu igaragaza ko bari kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, harimo abasirikare batatu n'umupolisi umwe n'abacungagereza babiri ndetse n'abandi bayobozi batandukanye.

Abantu bahagaze ku murongo ugororotse, hakurya yabo hari ihema, bafite mikoro mu ntoki zabo, imbere hari umugabo ku ruhande wambaye ipantaro ndetse n'ishati bijya gusa nk'ivu ndetse bakurikiwe n'umukobwa wambaye ikanzu y'amabara menshi.

Abaturage bicaye mu gacaca imbere yabo hari abayobozi batandukanye, harimo abasirikare, umudaso n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye z'ibanze, harimo umugore umwe uhagaze uri gutanga imbwirwaruhame.

Abagabo bahagaze mumurima wurutoki harimo umupolisi ndetse harimo undi mugabo wambaye umupira wumweru n'ingofero ndetse nuwambaye ishati yubururu n'ingofero n'ipantaro y'umukara hakuno yabo hari uwambaye ishati itukura n'ipantaro y'umukara imbere yabo hari ibitanda byubakishije ibiti.

Abantu bahagaze ahantu hamwe higanjemo abagabo ndetse n'abagore harimo abasirikare batatu ndetse n'abacungagereza babiri, hirya yabo hahagaze umugabo wambaye ishati ijya gu gusa ubururu ndetse n'ipantaro ijya gusa nki'vu n'inkweto z'ibihogo, impande ye hahagaze umugabo wambaye umupira w'umukara urimo amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Abantu bicaye mu ihema bafite buji ziri kwaka, imbere hicaye umusirikare wakuyemo ingofero wayiteretse kumeza ndetse n'umugabo wambaye amadarubindi n'umupira w'umukara wanditseho kwibuka kunshuro ya mirongo itatu ndetse no kuruhande rwe hicaye undi mugabo wambaye umupira nkuwe nawe ufite buji yaka n'inkweto z'umukara.

Abantu benshi bicaye munsi y'ihema ritatseho ibitambaro bigizwe n'amabara atatu, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, imbere yabo hari ameza ateretseho mikoro ndetse ku ntebe y'imbere hicayeho abasirikare babiri begeranye n'undi musirikare wicaye hirya, impande ye hicaye abapolisi babiri ndetse n'undi mugabo wambaye ishati itukura n'ipantaro ya kake.

Abantu benshi bari mu ihema bambaye imyenda y'imikara ndetse n'ababyeyi bakenyeye baje gushyingura, imbere yabo hari ifoto y'uwapfuye.

Icyapa cyanditse mu magambo y'umukara ndetse n'imodoka ziparitse, n'amazu y'ubucuruzi ndetse ahakorera na banke y'abaturage.

Urukuta rusize irange rutukura habambyeho icyapa kiri mu ibara ry'umweru gikoteye n'ibara ry'umukara ndetse cyanditsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, hari icyapa kuruhande kigizwe n'amabara y'umweru, umutuku, numukara, ndetse ku ruhande hari umugenzi wambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru imbere uri gutambuka,..

Ubusitani buteyemo ibyatsi ndetse hakurya hateye ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye, hari icyapa gishinze mu butaka gisize irangi ry'ubururu, ndetse handitsemo amagambo yandikishije irangi ry'umweru.

Imodoka y'umweru iri kugenda muhanda wa kaburimbo ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru ndetse hakurya hateye indabo ku muhanda, hirya y'aho hari umurima munini uteyemo ibiti ndetse n'ibyatsi bya kimeza, inyuma aho iri guturuka hari inzu ndende ifite igisenge gisakaje amabati atukura.

Umuhanda munini wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru ifite inyuma hazamuye hepfo mu gahandada k'abanyamaguru hari kugendamo abantu babiri umwe yambaye imyenda y'imikara ndetse n'inkweto z'umweru undi wambaye umupira w'umweru ipantaro y'ikoboyi ndetse mu gahanda k'abanyamaguru ka ruguru kari kugendamo undi mukobwa wambaye umupira wumukara ndetse n'ijipo yicyatsi.

Umugore wambaye ikanzu itukura ndetse n'ingofero uhagararanye n'umugabo wicaye kuri moto itukura, ku ruhande haparitse indi moto ndetse n'inyuma yabo haparitse indi moto iri kureba mu cyerekezo cy'imbere.

Ibiro bya compani itwara abagenzi ya Ritico, numero za telefone zandikishije ibara ry'icyatsi ndetse n'urugi rw'umukara n'urukuta rw'umweru ndetse n'amakaro.

Imodoka iparitse ku ruhande rw'umuhanda mugari wa kaburimbo, imbere yayo hari guturuka umunyonzi utwaye igare, wambaye umupira w'umweru ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, karimo amapave ndetse gasize irangi ry'umweru n'umukara.

Imodoka zihagaze ku muhanda w'igitaka harimo imwe ifite amapine y'umukara ndetse ifite ibara ry'ubururu, imbere yayo handitse amagambo yandikishije ibara ry'icyatsi ndetse ku ruhande handitse amagambo yandikishije ibara ry'umweru, hirya yayo hari indi modoka ifite ibara ry'umweru hejuru ifite ikintu kirengaho ndetse imbere yayo handitse amagambo yandikishije ibara ritukura.

Imodoka y'umutuku iri mu muhanda n'indi y'umweru iparitse hakurya yayo, hari n'amazu menshi imwe ifite icyapa cy'umuhondo n'icyatsi ndetse n'icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo y'ubururu.

Abantu bicaye hasi harimo abarambije, ndetse n'abicaye ku ntebe zimbaho zegamirwa, imbere hari abapolisi bicaye ndetse n'umusirikare, harimo umugabo wambaye ishati itukura n'ingofero y'umukara, ndetse n'undi mugabo wambaye bote n'umupira w'umukara ndetse n'ingofero. Kuruhande hari umugabo wambaye umupira w'umukara, bote z'umukara ndetse nipantaro y'ikoboyi. Imbere ye hari umutaka ufitwe n'umuntu.

Abagabo bari guhinga umurima bafite isuka za rugori harimo umusirikare wambaye imyenda ya gisirikare wakenyeye ishati mu mayunguyungu ndetse ku ruhande hari undi mugabo utagaragara neza wambaye ijire y'icyatsi na bote z'umukara n'undi mugabo wambaye umupira w'umukara.

Abantu bicaye munsi y'igiti cya voka, harimo abicaye ku ntebe z'ubururu za parasitike, abandi bicaye ku ntebe z'urubaho zegamirwa, ndetse harimo umusirikare n'umupolisi, ku ruhande hicaye umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ndetse ufite ikaramu mu ntoki.

Abagabo bari mu muhanda w'igitaka, impande yabo hari umurima uhinzemo ibigori ndetse bose buri muntu yikoreye ibuye ku rutugu, harimo umusirikare uteruje ibuye amaboko yombi ndetse n'umugabo wambaye ishati itukura uteruje amaboko yombi, n'undi mugabo wambaye ishati irimo amabara uteruje ukuboko kumwe n'undi wambaye ingofero uteruje amaboko yombi.

Abantu benshi bari mu kibuga imbere hari abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara n'amapantaro y'imikara, umwe yambariyemo ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umukara n'amadarubindi, undi yambaye ishati ijya gusa ubururu ndetse na karuvati y'umukara n'amadarubindi, inyuma yabo hari umugore wambaye amadarubindi y'umukara n'ikanzu irimo amabara y'umukara, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'umuganda. Biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bafite amasuka bari guharura ndetse banatema ibyatsi n'ibihuru. Harimo umugabo uhagaze inyuma wambaye isengeri itukura ndetse hari n'umugore uhagaze wifashe mu mayunguyungu, wambaye umupira w'umukara ushushanyijeho ishusho y'umweru imbere ku gatuza.

Umusirikare ufite isuka ari guhinga wambaye uturindantoki tw'umukara ndetse wakenyeye ishati mu mayunguyungu n'umwana wambaye isengeri y'umukara hakurya ye ufite isuka uri guseka.

Abantu bahagaze munsi y'ihema, ritatseho ibitambaro by'amabara y'ubururu. umuhondo ndetse n'icyatsi, hahagazemo abapolisi batatu harimo babiri bambaye amajiri y'umukara arimo amabara y'icyatsi atambitse, ndetse n'umusirikare wambaye impuzankano ya gisirikare ndetse n'ingofero.

Abaturage ndetse n'abayobozi bari mu gikorwa cyo kubaka bubakisha amatafari ya rukarakara higanjemo umusirikare, umupolisi, daso ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bo mu nzego zitandukanye.

Abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri, bafite umutoza uri kubibafashamo, inyuma hari ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abandi batandukanye nabo, bari gukora siporo.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abambaye imyenda y'umuhondo ndetse namasogisi y'umuhondo, hakabamo abambaye imyenda y'umukara n'amasogisi y'umweru, ku ruhande hahagaze umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro bifite ibara ryabusa n'ivu, yambariyemo agapira k'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara.

Abakinnyi bari kuva mu rwambariro, bakinira amakipe atandukanye, harimo abambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'abambaye imyenda y'umuhondo, imbere yabo hari abagabo batatu, bambaye amajire y'icyatsi ndetse n'amakabutura y'umukara, babiri muri bo bambariyemo udupira tw'umweru ndetse n'undi wambariyemo agapira k'umutuku.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru, imbere hari umugabo wambaye imyenda ya siporo y'umuhondo irimo ibara ry'umukara ndetse n'amasogisi ajya gusa icyatsi n'inkweto z'umutuku, inyuma ye hari undi wambaye imyenda y'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, hakurya hari guturuka undi wambaye inkweto zitukura n'amasogisi y'umweru n'imyenda y'umukara ndetse hirya haparitse moto imbere y'aho hahahagaze umuntu.

Abantu bari mu kibuga hagati bari gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma yabo hari ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abantu bake bari gukoreramo imyitozo nabo.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bari gukina harimo abambaye imyenda y'ubururu ifite ibara ry'icyatsi mu gatuza ndetse n'akamenyetso ka vi, inyuma hari abandi bambaye imyenda ijya gusa ubururu irimo ibara ry'umweru ndetse hirya hari abandi bicaye bari kureba umukino.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bari mukibuga, harimo abambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'undi wambaye imyenda y'umuhondo.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bari gukina, imbere hahagaze umukinnyi wambaye imyenda y'imikara, amasogisi y'umukara ndetse n'inkweto ndetse n'umwana w'umukobwa wambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'umukara ndetse n'inkweto z'umutuku, uri kwirukankana umupira.

bana bari gukina umupira w'amaguru harimo umwe wambaye amasogisi y'umukara inkweto z'umweru ikabutura y'umutuku irimo akarongo kamanuye k'umukara ndetse n'umupira urimo amabara y'umweru n'umukara hirya ye hari abandi babiri bari kwiruka bambaye ibirenge.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Harimo uwambaye imyenda y'umukara ndetse irimo n'akabara k'ubururu n'amasogisi y'umweru, avanzemo umukara n'inkweto z'umukara zirimo akabara gatukura. Hirya ye hari undi wambaye umupira utukura ndetse wambariyemo n'undi mupira w'amaboko maremare y'umweru. Inyuma ye hari izamu risize irangi ry'umweru.

Abakinnyi b'amakipe abiri atandukanye, bahagaze ku murongo umwe hagati yabo hahagaze abayobozi babo, harimo umusirikare n'umupolisi ndetse n'undi mugore wambaye umupira w'umutuku, kandi imbere yabo bafashe icyapa kigaragaza amarushanwa barimo icyo asobanuye.

Abantu bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bari gukina, harimo umwe wambaye imyenda y'umuhondo n'amasogisi y'umuhondo ndetse ari na we ufite umupira, inyuma ye hari abandi batatu bambaye imyenda y'umukara ndetse n'amasogisi y'umweru, hakurya hahagaze undi wambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abakobwa barimo gukina umupira w'amaguru harimo abambaye imyenda y'umukara, n'abandi bambaye imyenda y'umutuku harimo abambaye amasogisi ndetse n'abatayambaye, ay'umutuku ay'umuhondo ay'umweru maremare.

Abakinnyi babiri barimo gukina umupira w'maguru mu kibuga kitarimo ibyatsi, umwe yambaye imyenda y'umukara ndetse n'amasogisi y'umukara n'inkweto z'umukara. undi wambaye imyenda y'ubururu, amasogisi y'icyatsi arimo ibara ry'umukara ndetse n'inkweto z'umweru.

Abakinnyi bari mu kibuga cy'umupira w'amaguru imbere hari uwambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'amasogisi y'umuhondo n'inkweto z'umweru ufite umupira uri kwirukanka, imbere ye hari guturuka undi wambaye imyenda y'umukara n'amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto z'ubururu uri kuza amusanga na we yiruka.

Sitade irimo abantu benshi, hasi ifite inkingi zisize irangi ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu, imbere y'abantu, hari abahahagaze harimo ababyeyi bambaye imikenyero.

Abakinnyi bari gukora umyitozo ngororamubiri wo kwiruka bambaye imyenda y'ubururu irimo ibara ry'icyatsi ndetse n'inkweto zitandukanye amabara hakurya yabo hari amashuri ndetse n'ikibuga cya basiketi.

Abakinnyi b'ikipe imwe, bahagaze impande yikibuga cy'umupira w'amaguru, ku ruhande hahagaze umusore wambaye ipantaro y'umukara, ishati ijya gusa umutuku, ndetse hepfo hahagaze undi wambaye umupira w'umweru, urimo ibara ry'umukara, ndetse n'inkweto z'umutuku zirimo ibara ry'umweru, abandi bakinnyi bambaye imyenda y'ubururu irimo ibara ry'icyatsi, ndetse n'umuzamu wambaye imyenda y'umuhondo.

Abantu benshi bari gukora siporo mu muhanda wa kaburimbo mugari, ku ruhande hari agahanda k'abanyamaguru kamurikiwe n'amatara yo kumuhanda, harimo umugabo wambaye ikote rifite ingofero y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inzira y'abanyamaguru hepfo no haruguru, imbere hari icyapa kirimo ibara ry'umweru gishushanyijemo umuntu mu ibara ry'umukara ndetse gikoteye n'ibara ry'umutuku, imbere hari umugabo wambaye isengeri ndetse n'ikabutura y'umukara, hakurya hari undi muntu wambaye agapira gatukura ndetse impande y'umuhanda hari ahakoteye n'irangi ry'umukara n'umweru.

Umuhanda w'igitaka imbere hari urupangu rwubakishije amatafari ahiye ndetse hirya yaho ari inyubako isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari ikigega cya parasitike cy'ubururu.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, urimo moto iri kugenda ndetse hari akayira k'abanyamaguru karimo umwana w'umunyeshuri wambaye isaha ku kaboko, ishati y'umweru ndetse n'ikabutura ya kaki, uhetse igikapu mu mugongo.

Umugabo uri mu muhanda ufite isuka ku rutugu, imbere ye hari abana bari kugenda bakina ndetse n'umugabo n'umugore bari kugendana.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru karimo amapave ndetse hateye n'indabyo, ku muhanda hasize irangi ry'umweru ndetse n'umukara. Imbere gato hashamikiyemo undi muhanda umanuka na wo ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hari amapave mu gahanda k'abanyamaguru ndetse hagati harimo jaride, hakurya hari imodoka y'umweru iri gutambuka.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, ku ruhande hari umugabo wambaye umupira ujya gusa umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto zitukura, hirya hari umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu ndetse iruhande rw'umuhanda hagiye hari amatara amurikira umuhanda ndetse n'ibiti byarabije indabyo z'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hakurya hari agahanda k'abanyamaguru karimo umuntu uri gutambuka wambaye ipantaro y'icyatsi irimo uturongongo tw'umweru ku ruhande ndetse wambaye umupira w'umweru, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ifite umuryango usize irangi ry'umweru ndetse hakurya hari inzu isakaje amabati atukura, iteye umucanga.

Umuhanda munini wa kaburimbo hakurya harimo imodoka iri kugenda ifite irangi ryumweru ndetse harimo' numugabo wambaye umupira wicyatsi uri gutambuka, imbere ye hari undi mugabo wambaye ikoti ry'umukara ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru uri gutambuka mu muhanda hagati.

Akayira gakikijwe n'amazu, impande yaho hagiye hateye ibyatsi bya kimeza, imbere hari inzu y'igisenge kizamuye gifite amabati y'umutuku.